Aba ni bamwe mu bagize itsinda rya Croix Rouge y'u Rwanda, aho bari hamwe bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso igaragaza ubufatanye n'ubwitange bagaragariza Igihugu mu buzima bwa buri munsi.

Iyi ni inyubako y'ivuriro ikaba yubatswe mu buryo bugezweho, harimo ibitanda byiza cyane abaganga baryamishaho abarwayi bagiye kubasuzuma, hakaba agatebe muganga yicaraho ndetse hakaba n'agasanduku ajugunyamo imyanda.

Iyi ni inyubako y'ikigonderabuzima yubatswe mu buryo busanzwe ariko zikaba arizo nyubako ebyiri, harimo indabyo nziza zifite ibara ry'umuhondo hakabamo n'abantu baje gusaba serivisi z'ubuvuzi aho bategereje ababafasha.

Aha ni mu nyubako y'ivuriro hakaba harimo umuganga wambaye itabuririya y'umweru ndetse n'udupfukantoki tw'ubururu, ari gufata amaraso umurwayi mu rwego rwo kugira ngo arebe ko nta malariya arwaye.